Ibikoresho bitandukanye biri mu kabati birimo imiti yifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo, aho by'umwihariko abahinzi bifashisha iyi miti mu kwica udukoko twangiza imyaka yabo nanone aborozi bakaba bayifashisha mu kuvura amatungo yabo mu gihe yarwaye.

Ibikoresho bitandukanye, bifite amabara atandukanye, urugero nk'amabara y'umweru, amabara y'umutuku ndetse n'amabara y'igitakazi, harimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amaremare, nanone harimo imiti itandukanye yifashishwa n'abahinzi mu kurwanya utwonyi twona imyaka.

Umusaruro ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi bw'ibihingwa by'amoko atandukanye, aho umusaruro uri mu bikoresho bitandukanye biwufasha kutangirika kandi bikawufasha kuramba.

Ibikorwa by'ubuhinzi by'umwihariko byibanda ku buhinzi bw'inyanya, hari umuhinzi urimo kwita ku nyanya ze atera imiti yabugenewe, mu nyanya ze kugira ngo udukoko dutuma inyenya zidakura neza dupfe.

Ibihingwa by'amoko atandukanye higanjemo ibihingwa bikurudwa cyane urugero nk'ibigori, bifite amabara y'icyatsi na none hari abahinzi babigize umwuga barimo kwita ku bihingwa byabo, bashiraho ifumbire kugira ngo ibihingwa bikure neza.

Ibikoresho byabugenewe bitandukanye bifite amabara y'icyatsi ndetse n'amaba y'umutuku, birimo imiti itandukanye yifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi borora amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura ayo matungo ndetse no kwita ku bimera by'amoko atandukanye by'umwihariko ibihingwa bihingwa n'abahinzi.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abahinzi bahinga imyaka itandukanye, ndetse n'aborozi borora, amatungo magufi ndetse n'amaremare. Na none hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, urimo gucuruza imiti ndetse n'ibikoresho, byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bikunzwe guhingwa n'abahinzi batandukanye, urugero nk'ibigori ndetse n'amashu nanone hari umuhinzi wabigize umwuga urimo gutera imiti mu mashu, aho yambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, nanone kandi afite igikoresho ahetse mu mugongo arimo akoresha atera umuti amashu.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'aborozi b'amatungo atandukanye yaba amagufi ndetse n'amaremare, ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye, urugero harimo nk'ibikoresho bifashisha barimo buhira imyaka, nanone harimo nk'imiti yifashishwa n'aborozi mu gihe barimo kuvura amatungo yabo mu gihe yarwaye.

Abahinzi batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, barimo kwita ku myaka yabo bahinze mu murima, nanone hari ibihingwa by'amoko atandukanye, urugero nk'ibigori ndetse n'ibirayi byerera mu butaka.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare, higanjemo ibikoresho bifite amabara y'umweru, ay'icyatsi ndetse n'ay'ubururu, na none kandi hari umuntu ushinzwe kugurisha ibikoresho abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo atandukanye.

Icyumba cyabugenewe cyifashishwa mu gucuruza ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, urugero harimo nk'ibikoresho byifashishwa n'abantu borora inkoko, na none kandi harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abahinzi mu gihe barimo kuhira imyaka yabo mu gihe izuba ryavuye cyane.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi, by'umwihariko harimo ibikoresho byifashishwa n'abahinzi mu gihe barimo kuhira imyaka yabo, na none kandi harimo imiti itandukanye yifashishwa n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare, na none harimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu biti.

Ibikoresho by'amoko atandukanye ndetse n'imiti y'amoko atandukanye, byose byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amaremare. Na none hari umuntu ushinzwe kugurisha ibikoresho ndetse n'imiti yifashishwa n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare. Yambaye imyenda ifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru.

Imiti y'amoko atandukanye, iri mu bikoresho byabugenewe, ikaba yifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kwita ku bikorwa byabo by'ubuhinzi ndetse n'ibikorwa by'ubworozi aho iyi miti yifashishwa mu kwica udukoko dutuma imyaka itera neza, none kandi iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo, hari ibikoresho bitandukanye birimo iyo miti.

Umuhinzi uri gusunika igare ritwaye ibihingwa biri mu bikoresho byabugenewe nyuma yo gusarurwa, na none kandi ari kumwe n'abandi bahinzi bamuherekeje, na none iruhande rwabo hateye ibinyampeke ndetse n'ibihingwa bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi.

Ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amaremare, bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'icyatsi.

Abahinzi batandukanye babigize umwuga barimo gutegura umurima wo guhingamo ibihingwa bitandukanye mbere yo kubihingamo, aho bari gushyiramo ifumbire ifasha ibihingwa gukura neza.

Ibikoresho by'amoko atandukanye, byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amaremare, urugero nk'ibikoresho byifashishwa n'abahinzi mu gihe barimo kuhira imyaka yabo, bifite amabara y'icyatsi. Na none kandi harimo ibikoresho birimo imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo ndetse n'aborozi b'amatungo.

Ibikoresho byabugenewe birimo imiti yifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare, bifite amabara atandukanye urugero nk'ay'icyatsi ndetse n'umutuku, na none kandi hari umuntu ushinzwe kugurisha ibikoresho byabugenewe byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi.

Abahinzi babiri barimo gutunganya imirima yabo mbere yo guhingamo ibihingwa byabo, aho barimo gukoresha ifumbire ifasha ibihingwa gukura neza na none iruhande rw'imirima barimo gutunganya hari ibimera bihateye urugero nk'ibiti.

Ifumbire ifite ibara ry'umukara, ryifashishwa n'abahinzi batandukanye mu guhinga ibihingwa by'amoko atandukanye na none hari umuhinzi urimo kuyora ifumbire yo gukoresha mu guhinga ibihingwa bye, na none iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye byifashisha mu gihe arimo guhinga ibihingwa bitandukanye.

Ibikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare, urugero nk'ibikoresho byifashishwa mu gihe barimo kugaburira amatungo magufi, urugero nk'inkoko nanone kandi hari imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara z'amatungo, na none kandi hari indi miti yifashishwa mu kwica udukoko twibasira ibihingwa.

Ibihingwa by'amoko atandukanye by'umwihariko higanjemo ibihingwa byerera mu butaka, urugero; nk'imyumbati, nanone kandi hari ibimera bikururumba cyane urugero; nk'ibiti, ibigori ndetse n'ibindi.

Umusaruro w'ibihingwa bizwi ku izina ry'ibirayi, aho wamaze gusarurwa ukaba washyizwe mu bikoresho byabugenewe kugira ngo ujyanwe ku isoko kugurishwa, bityo abantu badafite ibirayi byo kurya babone ibyo barya kandi bityo umuhinzi abone amafaranga aturuka mu buhinzi bwe bw'ibirayi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye byiganjemo ibihingwa bikururumba cyane urugero, nk'ibihingwa bizwi ku izina ry'urutoki, nanone kandi hari ibimera by'amoko atandukanye birandaranda.

Ubutaka bugari bwifashishwa mu gukora ibikorwa by'ubuhinzi, by'umwihariko aho bwifashishwa mu gukora ibikorwa by'ubuhinzi bwibanda ku rutoki na none kandi si ibyo gusa kuko harimo n'ibindi bimera bitandukanye, byatewe kuri ubu butaka bivangwa n'urutoki.

Ubwoko bw'igihingwa cyerera mu butaka, kikaba gihingwa n'abahinzi batandukanye, iki gihingwa cyerera mu butaka kikaba kizwi ku izina ry'ibirayi. Nanone kandi iki gihingwa gifite ibara ry'icyatsi.

Ubwoko bw'imbuto zihingwa mu murima kandi zikaba ziribwa bita inyanya, hari umuhinzi wabugenewe urimo kwita kuri ubwo bwoko bw'imbuto bita inyanya, azitaho kugira ngo zikomeze kumera neza kandi zitange umusaruro.

Ibimera by'amoko atandukanye higanjemo ibimera birandaranda byitwa ibihaza na none kandi hari ibimera byitwa ibigori, bikaba bifite amabara y'icyatsi na none kandi hari ibimera bikururumba cyane bita ibiti.

Igihingwa kizwi ku izina ry'urutoki, kikaba gihinzwe ku buso bw'ubutaka bugari kandi butunganyije neza, nanone kandi kuri ubwo buso bw'ubutaka hateyeho n'ibindi biribwa. Urugero nk'ibigori, nanone hari ibimera by'ibiti biteye iruhande rw'urutoki.

Ibihingwa bizwi nk'inanasi byera imbuto bita inanasi ziribwa, bikaba bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, zikaba zizwiho gutanga umusaruro kuko ziragurishwa zikavanwamo amafaranga, na none kandi ziraribwa.

Abanyeshuri batandukanye basuye ibikorwa by'ubuhinzi by'umwihariko aho basuye ibikorwa by'ubuhinzi bwibanda mu guhinga ubwoko bw'imbuto ziribwa by'umwihariko avoka.

Ubwoko bw'ibiti bwitwa ikawa bwera imbuto, bikaba bihingwa n'abahinzi batandukanye; bifite imbuto z'icyatsi ndetse n'imbuto z'umutuku, nanone kandi bizwiho gutanga umusaruro w'icyayi cyitwa ikawa.

Ubutaka bugari burambuye bwo mu gishanga, bwifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko ibikorwa by'ubuhinzi, kuri ubu butaka hateyeho igihingwa kizwi cyane, cyitwa icyayi.

Ubuso ubugari bw'ubutaka bwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi, aho by'umwihariko ubu butaka bwifashishwa mu bikorwa byo guhinga inanasi, inanasi zikaba zitanga umusaruro muke cyane iyo zimaze kwera zikajyanwa ku isoko, zikagurishwa umuntu akayakuramo amafaranga kandi ziranaribwa.

Ibihingwa bikurumba cyane bihingwa n'abahinzi batandukanye bizwi ku izina ry'imibyari, bikaba bifite ibitoki na none kandi hari umuhinzi urimo wo kwitegereza imibyare ye areba igitoki ko cyeze.

Ubwoko bw'igihingwa, gihingwa n'abahinzi batandukanye, kikaba gifite imbuto zitwa ipapayi. Zikaba zifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umuhondo ndetse n'izindi zifite amabara y'icyatsi.

Ibihingwa bikururumba cyane, bizwi nk'ikawa bihingwa n'abaturage, bifite ibara ry'icyatsi, ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'umuhondo. Nanone kandi hari ibihingwa by'amoko atandukanye bikururumba cyane.

Abahinzi babigize umwuga higanjemo abagore, bakaba bahinga ibihingwa by'amoko atandukanye by'umwihariko aho bahinga ibihingwa by'intoryi, bakaba bafite umusaruro w'intoryi bamaze gusarura, ukaba uri mu bikoresho byabugenewe.

Ibimera by'amoko atandukanye biteye ku butaka by'umwihariko higanjemo ubwoko bw'imboga bwitwa amashu, na none hateye n'ibindi bimera bitandukanye, na none hubatse inzu yo kubamo, na none hari amazi yuzuye mu bimera.

Ubuso bugari bw'ubutaka bwifashishwa n'abahinzi mu guhinga ibihingwa by'amoko atandukanye na none kandi ubuso bw'ubutaka buhinzweho ibihingwa bita ibigori, bifite ibara ry'icyatsi.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'inkoko rikaba rifite ibara ry'umweru na none kandi rifite uburwayi bw'ijisho, aho ijisho ryayo ritabona neza.

Igikoresho cyabugenewe, gifite ibara ry'umweru kandi cyanditseho amagambo atandukanye, kikaba kirimo imiti yifashishwa n'abahinzi, mu gihe bari guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye, birimo umusaruro uva mu bworozi bw'amatungo maremare, by'umwihariko ubworozi bw'amatungo bwitwa inka aho harimo umusaruro witwa amata, ukomoka kuri ubu bworozi bw'amatungo maremare yitwa inka.

Ubuso bugari bw'ubutaka, butunganyijwe neza, buteyemo imyaka itandukanye, urugero: nk'imyumbati yerera mu butaka, na none hateyemo ibiti by'amoko atandukanye. Na none kandi hateyemo ibimera, bita urubingo, biribwa n'inyamaswa ndetse n'amatungo atandukanye, yororwa n'aborozi.

Abahinzi batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bafite ibikoresho byabugenewe aho barimo gutunganya umurima mbere yo guteramo ibihingwa bitandukanye, iruhande rwabo hari ibihingwa bitandukanye urugero nka avoka, urutoki, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Abahinzi babigize umwuga, barimo gutegura imirima yabo, bakoresheje ibikoresho byabugenewe, bibafasha gutegura imirima, bizwi ku izina ry'isuka, nanone hari ibimera by'amoko atandukanye, biteye mu murima barimo guhinga byitwa urutoki.

Abahinzi babiri bari mu murima, aho barimo gutunganya umurima, kugira ngo bahingemo ibiribwa bitandukanye byo kurya, na none kandi iruhande rwabo hahinze ibiribwa bizwi ku izina ry'ibigori, na none kandi hari indi myaka iteye ku ruhande, urugero nk'ibimera by'ibiti.

Umuhinzi wabigize umwuga, urimo gutunganya umurima, mbere yo guhingamo ibihingwa bitandukanye, akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa, mu gutunganya umurima, urugero nk'isuka. Na none kandi hari ibihingwa biteyemo byerera mu butaka, urugero: nk'amateke ndetse n'imyumbati.

Abahinzi batanu higanjemo abagore batatu ndetse n'abagabo babiri, barimo gutunganya umurima bakoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutunganya umurima, bizwi ku izina ry'isuka na none kandi hari ibihingwa bihinze mu murima, urugero nk'imyumbati ndetse n'imibyare.

Abahinzi batanu higanjemo abagore bane ndetse n'umugabo umwe, bafite ibikoresho byabugenewe bita amasuka. Barimo gutunganya umurima mbere yo guhingamo ibihingwa bitandukanye. Na none kandi iruhande rwawo hahinze ibihingwa bitandukanye, urugero urutoki ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ubuso bugari bw'ubutaka bwatunganyijwe kugira ngo buterwemo imyaka itandukanye, na none kandi hari ibimera bikurumba cyane, urugero nk'ibiti, na none hari ibimera bizwi nk'urubingo byifashishwa mu kugaburira amatungo atandukanye.

Abagabo bane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'icyatsi, umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu. Barimo gutera igihingwa kizwi ku izina ry'ururabo. Na none kandi iruhande rwabo hari ibimera by'amoko atandukanye bikururumba cyane urugero nk'ibiti.

Ibimera byinshi cyane by'amoko atandukanye bizwiho gukururumba cyane bita ibiti na none kandi hari ibimera bitandukanye biteye mu murima bikururumba cyane, na none hari umuntu urimo gutunganya ibimera byo gutera mu murima.

Ibimera by'amoko atandukanye bihinzwe ku butaka urugero, nk'ibigori, ibinyomoro ndetse n'ibindi bimera byerera mu butaka urugero, nk'amateke na none hari umuhinzi urimo kwita ku bihingwa byavunitse.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi, by'umwihariko higanjemo ibihingwa byerera mu butaka urugero nk'ibirayi na none hari abahinzi babigize umwuga barimo kwita ku bihingwa byabo babigirira isuku kandi bakabyitaho kugira ngo bitange umusaruro ufatika.

Abahinzi batandukanye biganjemo abagabo, bafite ibikoresho byabugenewe bita amasuka, bifashisha batunganya umurima mbere yo guhingamo ibihingwa. Na none kandi iruhande rwabo hateye ibihingwa bitandukanye, urugero nk'imibyare ndetse n'ibiti bitandukanye. Nanone kandi hubatse amazu yo kubamo.

Umusaruro w'ibiribwa w'amoko atandukanye, ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, uyu musaruro ukaba wiganjemo nka soya, ibishyimbo, karoti, amashaza ndetse n'ubundi bwoko bw'ibihingwa bihingwa n'abahinzi.

Umusaruro ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, uri mu bikoresho by'imifuka bitandukanye, aho ugiye kugurishwa ukajyanwa ku isoko, nanone hari abantu batandukanye barimo kwikorera ndetse no gupakira uwo musaruro w'ibihingwa mu mifuka yabugenewe ndetse mu bikoresho byabugenewe bitandukanye.

Umurima munini kandi mugari wifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi, nko guhinga ibimera bitandukanye, by'umwihariko uyu murima ukaba wifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi bw'urutoki ndetse n'ibigori ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, byifashishwa mu kwita ku buzima bwa muntu.

Umusaruro ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi uri mu bikoresho bitandukanye bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibikoresho bifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibikoresho bifite ibara ry'umweru, nanone kandi hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, urimo kwikorera umusaruro uri mu bikoresho byabugenewe.

Umusaruro mwinshi cyane wajyanywe ku isoko, uyu musaruro ukaba ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi bwitwa ibirayi, hari abantu batandukanye baje kugura ibirayi mu isoko ry'umwihariko ibirayi byo kurya ndetse n'abashaka ibirayi byo guhinga mu mirima yabo.

Ubuso bugari bw'ubutaka buteyeho ibihingwa bitandukanye, urugero nk'urutoki, ibiti ndetse n'ibigori nanone kandi hari n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, bidakururumba nanone kuri ubwo butaka haciyeho imiringoti igiye itandukanye ifata amazi mu gihe k'imvura.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu bikorwa by'ubuhinzi, hakaba higanjemo ibiribwa by'imbuto urugero nk'inanasi, ibinyomoro imyembe ndetse n'ibindi.

Ikibaya kigari gihinzwemo ibimera by'amoko atandukanye, bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, na none kandi ku musozi hateye ibihingwa ndetse n'ibimera bitandukanye, byiganjemo urutoki ndetse n'ibiti.

Umusaruro ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, uri mu bikoresho byabugenewe bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibikoresho bifite amabara y'umweru, ndetse n'amabara y'icyatsi.

Ikibaya kigari gihinzwemo ibihingwa by'amoko atandukanye, bifite amabara y'icyatsi. Higanjemo ibihingwa byitwa umuceri. Na none kandi hari abahinzi batandukanye barimo kwita ku bihingwa byabo bihinze mu kibaya.

Ubuso bugari bwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi by'umwihariko aho bwifashishwa mu bikorwa byo guhinga urutoki, na none kandi kuri ubu butaka hateyeho ibigori, ibiti, si ibyo gusa kuko hanubatsweho n'amazu.

Abahinzi batandukanye by'umwihariko higanjemo abagore, aho barimo kwita ku musaruro wabo by'umwihariko umusaruro w'ibigori, aho barimo kwanika ibigori ku zuba, kugira ngo byumuke byere kumungwa.

Umuceri wasaruwe uvanywe mu murima, ukaba uri mu bikoresho biwurinda kutangirika byitwa imifuka, bikaba bifite amabara y'umweru, na none kandi hari abahinzi barimo kubika umuceri mu mifuka.

Umusaruro ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, uyu musaruro ukaba uzwi ku izina ry'inyanya, aho wajyanywe ku isoko kugira ngo ugurishwe bityo nyiribisarurwa abone amafaranga ndetse n'abadafite uyu musaruro w'inyanya babone inyanya zo kurya mu rugo iwabo, nanone kandi hari abahinzi bazanye uyu musaruro ku isoko.

Ubwoko bw'imbuto buhingwa cyane buzwi ku izina ry'avoka, zikaba zifite ibara ry'icyatsi, aho ziri mu bikoresho byabugenewe nyuma yo gusarurwa zikaba zijyanywe ku isoko kugira ngo zigurishwe.

Umusaruro uzwi ku izina ry'ibirayi, ukaba uhingwa n'abahinzi batandukanye, ibi bihingwa bikaba byerera mu butaka, biri mu bikoresho bitandukanye bifite amabara agiye atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Ubuso bw'ubutaka bugari buhinzwemo ibihingwa by'amoko atandukanye by'umwihariko higanjemo ibihingwa bita ibishyimbo byera imisogwe, na none kandi iruhande rw'ibishyimbo hateye ibihingwa ndetse n'ibimera bitandukanye bikurumba cyane bizwi nk'ibiti.

Igihingwa kizwi ku izina ry'imigozi, kikaba cyerera mu butaka, kikaba kizwiho gutanga umusaruro w'ibyo kurya bita ibijumba na none kandi ku buso bw'ubutaka hateyeho n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa n'abantu.

Ibikoresho byabugenewe bitandukanye, bizwi ku izina ry'umufuka, bifite amabara atandukanye urugero, nk'amabara y'umweru, amabara y'ubururu, amabara y'umutuku, ndetse n'amabara y'icyatsi. Harimo umusaruro ukomoka ku bihingwa bitandukanye, by'umwihariko ibihingwa byitwa ibigo...

Umusaruro mwinshi cyane, w'amoko atandukanye, wajyanywe ku isoko kugurishwa, ukaba ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi. Nanone kandi hari abantu batandukanye, baje kugura uyu musaruro ukomoka mu buhinzi.

Umusaruro ukomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, uzwi ku izina ry'umuceri, ukaba uri mu bikoresho bitandukanye aho ubitswemo kugira udakomeza kwangirika, nanone hari abantu batatu, barimo gutunganya uwo muceri bawushira mu bikoresho byabugenewe.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bihinze ku butaka, urugero harimo; nk'ibihingwa by'ibinyomoro, imyumbati, isombe, indimu, urutoki ndetse n'imyembe, na none kandi kuri ubu butaka hubatseho inzu.

Ibimera bitandukanye bikururumba cyane bita imiyenzi na none kandi hari ibihingwa by'amoko atandukanye, urugero nk'ibigori, urutoki ndetse n'imyumbati na none kandi hari amateke ndetse n'amazu yubatse yo kubamo.

Ibimera by'amoko atandukanye higanjemo ibimera bikururumba cyane urugero nk'ibiti na none hari ibimera bikururumba cyane byera imbuto bita avoka na none hari ibimera bikururumba cyane byitwa urutoki.

Ibimera by'amoko atandukanye higanjemo ibimera bikurumba cyane bita ibiti, na none kandi hari ibimera birandaranda bidakura cyane bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'icyatsi.

Umurima mugari kandi munini uhinzemo ibimera by'amoko atandukanye hakaba harimo ibimera biribwa bitandukanye bikaba byeze bigeze igihe k'isarurwa kugira ngo bijyanwe ku isoko bityo bigurishwe kandi abantu babone ibyo kurya.

Ubwoko bw'ikimera gihingwa mu butaka kizwi ku izina ry'urubingo, kikaba cyifashishwa n'aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amaremare, kikaba kifashishwa mu kwita ku matungo kugira ngo akomeze kumererwa neza, akaba ari ibiryo by'amatungo magufi ndetse n'amaremare.

Ibihingwa by'amoko atandukanye, byiganjemo ibihingwa bikurumba cyane urugero nk'ibiti, ndetse n'ibiti byera imbuto zitwa avoka, nanone hari ibihingwa byerera mu butaka bizwi nk'amateke.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bihingwa n'abahinzi by'umwihariko byiganjemo nk'urutoki, imyumbati ndetse n'amateke yerera mu butaka, na none kandi hahinze ibindi bimera bikurumba cyane bita ibiti, bikaba byose bifite ibara ry'icyatsi.

Ibimera by'amoko atandukanye bizwi ku izina ry'indabyo, harimo ibimera bikururumba cyane bifite amabara y'icyatsi na none kandi harimo ibimera birandaranda bifite ibara ry'icyatsi.

Amoko atandukanye y'ibihingwa ndetse n'ibimera, higanjemo ibihingwa ndetse n'ibimera bikurumba cyane bizwi nk'ibiti. Na none hari ibimera bikurumba cyane bizwi nk'indabyo bifite amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru.

Ubwoko bw'igiti gihingwa mu butaka, kikaba kizwi ku izina rya avoka, kikaba cyera imbuto ziribwa kandi zikaba zanagurishwa na none kandi iruhande rw'icyo giti cya avoka, hateye ibindi bihingwa urugero nk'urutoki na none kandi hubatse inzu yo kubamo.

Ibimera by'amoko atandukanye higanjemo ibimera bigufiya ndetse n'ibimera bikururumba cyane urugero nk'ibiti na none kandi hari ibimera byitwa urutoki, bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'icyatsi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye, higanjemo ibihingwa byera imbuto bita avoka, nanone kandi hari ibihingwa bikururumba cyane byitwa urutoki, bikaba bifite amabara atandukanye, urugero nk'amabara y'icyatsi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye, bihingwa n'abahinzi batandukanye, byiganjemo nk'ibigori ndetse n'urutoki. Na none kandi hari ibimera bikururumba cyane bizwi nk'ibiti bivangwa n'imyaka.

Ibimera by'amoko atandukanye bihingwa n'abahinzi bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umutuku, bikaba ari ibimera bikururumba cyane ndetse n'ibidakururumba.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bihingwa n'abahinzi, ibyo bihingwa bikaba bikurumba cyane, urugero nk'ibiti by'avoka byera imbuto, na none kandi hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amategura.

Ibihingwa by'amoko atandukanye, urugero nk'intoryi, amateke yerera mu butaka ndetse n'urutoki na none kandi hari umuhinzi wita kuri ibi bihingwa, ufite intoryi mu ntoki ze.

Igihingwa gikururumba cyane gihingwa n'abahinzi batandukanye, kizwi ku izina rya avoka gifite ibara ry'icyatsi, na none kandi hari ibindi bihingwa bikururumba cyane bihingwa n'abahinzi urugero nk'ibiti byera imbuto zitandukanye.

Akarima k'igikoni gahingwamo ibintu bitandukanye, urugero nk'ibihingwa byitwa imboga rwatsi, ibitunguru, ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, nanone hari abagore babiri barimo gusoroma imboga zo kurya mu karima k'igikoni.

Igihingwa gikurumba cyane gifite ibara ry'icyatsi, kikaba gifite imbuto ziribwa zitwa intoryi, zikaba zifite ibara ry'icyatsi ryerurutse, na none kandi hari ibihingwa biteye ku ruhande bikurumba cyane bita ibiti.

Abahinzi babiri b'abagore bambaye imyenda itandukanye ifite amabara y'umukara ndetse n'andi mabara, bafite ibiribwa mu ntoki zabo byitwa intoryi, na none kandi iruhande rwabo hateye ibiribwa bifite amabara atandukanye, urugero nk'amabara y'icyatsi.

Ibiribwa by'amoko atandukanye byiganjemo ibihingwa by'amoko y'imbuto, urugero nk'ibihingwa byera imbuto bita avoka, na none kandi hari ibihingwa byitwa inyanya, bikaba bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibifite ibara ry'umutuku.

Ibiribwa by'amoko atandukanye, by'umwihariko higanjemo, ibiribwa by'imbuto bikomoka mu buhinzi. Urugero: nk'imineke ndetse na avoka. Bikaba bifite amabara atandukanye, urugero: nk'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi. Na none hari ibikoresho bitandukanye, bikozwe mu biti urugero: nk'ameza ndetse n'inkoko.

Ibiribwa by'amoko atandukanye, higanjemo intoryi, inyanya ndetse n'ibishyimbo bita imiteja, na none kandi hari abacuruzi barimo gucuruza ibiribwa by'amoko atandukanye.

Ibihingwa by'amoko atandukanye, higanjemo ibihingwa bikururumba cyane bizwi nk'ibiti byera imbuto za avoka na none kandi hari umuhinzi urimo kwitegereza ibihingwa bye bya avoka.

Ibihingwa by'amoko atandukanye higanjemo ibihingwa byerera mu butaka, urugero nk'amateke ndetse n'imyumbati, na none hari ibihingwa bizwi nk'ibishyimbo, na none hari abahinzi batandukanye barimo kwita ku bihingwa byabo babikorera babigira isuku.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu buhinzi, urugero nk'inyanya, ibitunguru, ubunyobwa ndetse n'ibirayi na none hari umucuruzi urimo gucuruza ibi biribwa bikomoka mu buhinzi.

Umuhinzi wikoreye igikoresho kirimo ibihingwa avuye gusarura mu bihingwa bye, by'umwihariko bizwi nk'urusenda. Bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umutuku. Na none kandi hari ibihingwa biteye mu murima bifitiye amabara y'icyatsi ndetse n'ibiteye mu gishanga bifite amabara y'icyatsi bizwi nk'umuceri.

Ubwoko bw'ibihingwa buzwi cyane ku izina ry'imboga rwatsi, bihingwa n'abahinzi batandukanye, bikaba ari ingirakamaro cyane ku buzima bwa muntu, na none kandi bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Akarima k'igikoni gahinzwemo ibihingwa bitandukanye biribwa urugero nk'imbugarwatsi na none kandi iruhande rw'akarima k'igikoni hahinze ibinyampeke ndetse n'ibiribwa bitandukanye urugero nk'ibihingwa bita ibigori ndetse n'ibiyote.

Ibihingwa by'amoko atandukanye urugero nk'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibihingwa bikururumba cyane urugero nk'urutoki, ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye na none kandi hari umuhinzi urimo kwita ku myaka ye ayigirira isuku.

Ibihingwa by'amoko atandukanye by'umwihariko higanjemo ibihingwa bikururumba cyane byera imbuto, urugero nk'igihingwa bita ikinyomoro gifite imbuto z'icyatsi ndetse n'imbuto z'umuhondo, na none kandi hari umuhinzi urimo kwitegereza ibihingwa bye by'umwihariko ibihingwa by'ibinyomoro.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu bikorwa by'ubuhinzi higanjemo ibiribwa byitwa ibitunguru, karoti ndetse n'ibihaza, bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, bikaba biri mu bikoresho bitandukanye urugero nk'ibikozwe mu biti ndetse n'ibindi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye higanjemo ibihingwa bikurumba cyane by'ibiti, byera imbuto zitwa avoka, na none kandi hari abantu batandukanye baje gufata ibihingwa byo gutera mu mirima yabo.

Ibimera by'amoko atandukanye bikururumba cyane, bizwi ku izina ry'indabyo, bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umweru.

Akarima k'igikoni gahinzwemo ibihingwa bitandukanye, urugero nk'imboga rwatsi ndetse n'ibitunguru, nanone hari abahinzi babigize umwuga barimo gukorera isuku akarima k'igikoni, bita ku bihingwa bihinzemo.

Ubuso ubugari bw'ubutaka bukoreshwa mu bikorwa by'ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, by'umwihariko hakaba hahinzweho imyaka izwi ku izina ry'imigozi, iyi migozi ikaba itanga umusaruro w'ibijumba, ikaba yerera mu butaka, na none hahinzweho n'ibindi bimera by'amoko atandukanye.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye by'umwihariko higanjemo ibihingwa by'imboga rwatsi biribwa, na none hari ibindi bimera bikurumba cyane by'ibiti, na none kandi hari ibindi bihingwa byerera mu butaka urugero nka karoti, na none kandi iruhande rw'ibi bimera ndetse n'ibi bihingwa hubatse inzu yo kubamo.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'inyanya, aho wajyanywe mu isoko kugurishwa kugira ngo umuhinzi abone amafaranga aturutse mu buhinzi bw'inyanya, nano kandi ubuhinzi bwinyanya ni ingirakamaro cyane kuko bufasha abantu kubona ibyo kurya. n none kandi uyu musaruro w'inyanya uri mu bikoresho byabugenewe biwufasha kutangirika.

Igihingwa gikurumba cyane kizwi nk'ururabyo, kikaba gifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umutuku, kikaba gihinzwe iruhande rw'urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ubwoko bw'ikimera gihingwa n'abahinzi batandukanye kizwi ku izina ry'ipapayi. Kikaba cyera imbuto zitwa amapapayi. Nanone kandi gihinze iruhande rw'inzu ifite amabara y'umweru, ndetse n'amabara y'umukara.

Ubwoko bw'ibihingwa bukururumba cyane, buzwiho kwera imbuto zitwa avoka na none kandi hari umuhinzi urimo kwitegereza igihingwa cye yahinze cya avoka ngo arebe ko kimeze neza.

Ubutaka bwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi bitandukanye. Bukaba buteweho imyaka itandukanye, urugero nk'intoryi, imyumbati ndetse n'ibigori. Na none kandi harimo abahinzi barimo gusarura ibihingwa byabo, urugero nk'intoryi.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu bikorwa by'ubuhinzi, higanjemo ibiribwa byitwa inyanya, karoti ndetse n'intoki bikaba biri ku bikoresho byitwa imifuka. Bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Ubuso bw'ubutaka bugari bwifashishwa mu bikorwa bitandukanye, urugero nk'ibikorwa by'ubuhinzi, kuri ubu butaka hateyeho urutoki, ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye biterwa mu butaka, si ibyo gusa kuko hari n'amazu yubatse kuri ubu buso bw'ubutaka bukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bihinzwe mu murima, byiganjemo ibihingwa by'ibigori, inyanya, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, nanone kandi hari umuhinzi urimo kwita ku bihingwa bye atera umuti wica udukoko twangiza ibihingwa.

Ubwoko bw'ikimera gihingwa mu butaka kigakura cyane kizwi ku izina ry'umwembe, kikaba cyera imbuto bita imyembe na none kandi hari ibindi bimera bidaranda bifite amabara y'icyatsi.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu bikorwa by'ubuhinzi, hakaba higanjemo ibiribwa by'imbuto, urugero nk'amatunda, imyembe, inanasi, ibinyomoro ndetse n'ibindi.

Ubwoko bw'imbuto butandukanye buhingwa n'abahinzi, urugero harimo nk'imyembe, inanasi, amatunda, ibinyomoro, indimu ndetse n'andi moko atandukanye ahingwa n'abahinzi batandukanye.

Ibimera by'amoko atandukanye bihingwa mu butaka kandi bikerera mu butaka urugero, higanjemo nk'amateke yerera mu butaka, na none hari karoti nazo zerera mu butaka, na none kandi hateyeho n'ibindi biribwa bitandukanye.

Ibiribwa by'amoko atandukanye bituruka mu bikorwa by'ubuhinzi, higanjemo ibiribwa byitwa inyanya ndetse na karoti, bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo, bikaba biri mu bikoresho byitwa utudobo bifite ibara ry'umweru na none kandi hari ibindi bikoresho bitandukanye bikozwe mu biti.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi, by'umwihariko higanjemo ibihingwa bimerera mu butaka, urugero nka karoti na none kandi hari ibihingwa bikurumba cyane byitwa ibigori.

Ibiribwa by'amoko atandukanye bikomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, by'umwihariko higanjemo ibihingwa by'imbuto, urugero nk'inanasi, amatunda, imyembe, ibinyomoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibihingwa by'amoko atandukanye by'umwihariko ibihingwa byerera mu butaka, urugero nk'amateke ndetse n'ibirayi, nanone kandi hari ibigori ndetse n'ibindi bimera biteye ku ruhande. nanone hari umuhinzi wabigize umwuga wasuye ibihingwa bye.

Ubutaka bwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi butandukanye ariko by'umwihariko bukaba bwifashishwa mu buhinzi bw'inyanya, hari inyanya zazanye ibara ry'umutuku, nanone kandi hari izindi nyanya zitarazana iri bara ry'umutuku.

Ubwoko bw'ibihingwa bihingwa n'abahinzi, buzwiho kwera imbuto zitandukanye zitwa ibinyomoro, nanone kandi hari ibindi bimera bitandukanye bihinze mu butaka bikururumba cyane, urugero nk'ibiti ndetse n'urutoki ndetse n'ibigori.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu bikorwa by'ubuhinzi higanjemo ibiribwa by'imbuto urugero nk'ibinyomoro, amatunda, imyembe n'ibindi bitandukanye kandi bifite amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara.

Umusaruro w'ibihingwa bihingwa n'abahinzi by'umwihariko nk'ibihingwa byiganjemo iby'imbuto, urugero: nk'imineke, amatunda, ndetse n'imyembe, none kandi bifite amabara atandukanye ku rugero nk'ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bihingwa yaba ibikururumba ndetse n'ibirandaranda, by'umwihariko higanjemo ibihingwa bita inyanya. Na none kandi hari umuhinzi urimo gusarura inyanya ze zeze zifite ibura ry'umutuku. Na none kandi hari ibindi bihingwa byera mu butaka, urugero nk'imyumbati.

Umusaruro w'ibihingwa byitwa karoti, ukaba uhingwa n'abahinzi batandukanye kugira ngo abantu babone ibyo kurya bikomoka ku musaruro w'ibihingwa byitwa karoti. Uyu musaruro w'ibihingwa byitwa karoti ni ingenzi cyane kuko biribwa kandi bikagira ingaruka nziza ku buzima bwa muntu.

Ibimera by'amoko atandukanye urugero nk'ikimera kizwi nk'imboga rwatsi na none hari ibimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye byerera mu butaka urugero nka karoti, hari n'ibindi bimera by'amoko agiye atandukanye bifite amabara y'icyatsi.

Amoko y'ibiribwa atandukanye, akomoka mu bikorwa by'ubuhinzi, urugero: higanjemo imboga rwatsi ziribwa, amashu, amadegede, intoryi, karoti ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiribwa bitandukanye.

Ibimera by'amoko atandukanye, bikururumba ndetse n'ibidakurumba by'umwihariko higanjemo indabyo zifite amabara atandukanye urugero nk'izifite amabara y'umutuku, amabara y'icyatsi ndetse n'izifite indabyo z'ubururu.

Ibimera by'amoko atandukanye bihingwa mu butaka byiganjemo indabyo zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umutuku, nanone kandi hatewe ibindi bimera bikurumba cyane byitwa ibiti, nanone hubatse igikuta cy'amatafari ahiye ndetse n'inzu zo kubamo.

Ibiribwa by'amoko atandukanye biboneka bivuye mu bikorwa by'ubuhinzi, higanjemo ibiribwa by'imbuto urugero nka karoti, ibihaza, imboga rwatsi ndetse n'intoryi.

Ubwoko bw'imboga rwatsi zihingwa mu butaka, aho zihinze mu mbuga mu buryo bugezweho, iruhande rwazo hubatse inzu zitandukanye zo kubamo na none kandi hari ibindi bimera bitandukanye bihinzwe hafi aho urugero nk'urutoki ndetse n'ibiti.

Abahinzi babiri bari mu murima aho barimo kuhira imyaka yabo bakoresheje ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuhira imyaka urugero nk'amazi ndetse n'ibikoresho bakoresha buhiza amazi imyaka, na none kandi hari imyaka iteye ku ruhande urugero nk'ibigori ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ibihingwa by'amoko atandukanye higanjemo ibihingwa bikurumba cyane, urugero nk'ibigori ndetse n'ibiti, na none kandi hari ibihingwa bizwi nk'amashu, na none hari abahinzi babigize umwuga barimo kuhira ibihingwa byabo bakoresheje ibikoresho byabugenewe bifashisha buhira ibihingwa bitandukanye.

Umuhinzi wabigize umwuga urimo kuhira imyaka ye akoresheje amazi aho arimo kuhira imyaka yiganjemo, ibigori, ibishyimbo, karoti ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye byerera mu butaka.

Abahinzi babiri babigize umwuga barimo kwita ku bihingwa byabo, aho barimo kubyuhira bifashishije ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuhira imyaka, urugero nk'amazi. Aho barimo kuhira urugero nk'ibihingwa by'inyanya ndetse na karoti.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abahinzi mu kuhira imyaka yabo mu gihe izuba ryavuye cyane, na none kandi hari ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'ibigori, na none kandi hari umuhinzi urimo gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga mu kuhira ibigori.

Ibimera by'amoko atandukanye higanjemo ibimera birandaranda ndetse n'ibimera bikururumba cyane urugero nk'ibiti na none kandi hari umuhinzi urimo kuhira ibihingwa bye birandaranda urugero akoresheje amazi ndetse n'igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuhira.

Ibihingwa by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, higanjemo ibigori na none hari abahinzi babigize umwuga, barimo kuhira ibigori byabo bakoresheje ibikoresho byifashishwa mu kuhira urugero nk'amazi ndetse n'ibindi bikoresho.

Ibihingwa by'amoko atandukanye, urugero nk'ibigori ndetse n'ibindi bimera byitwa ibiti, na none kandi hari ibindi bihingwa byerera mu butaka bifite amabara y'icyatsi, ndetse n'amabara y'umutuku, na none kandi hari umuhinzi wabugenewe wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, urimo kuhira imyaka ye akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuhira.

Ibihingwa by'amoko atandukanye higanjemo ibihingwa by'ibigori, nanone kandi hari umuhinzi wabigize umwuga urimo kuvomera ibigori, akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuhira ibigori urugero nk'amazi ndetse n'ibindi bikoresho.

Ubutaka bwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi, by'umwihariko aho bwifashishwa mu guhingwaho imboga zitwa amashu, na none hari umuhinzi urimo kwita ku myaka ye by'umwihariko aho arimo asasira amashu, na none iruhande rwe hateyeho urutoki.

Ubuso bw'ubutaka bugari bwifashishwa n'abahinzi mu guhinga imyaka itandukanye, urugero nk'ibihingwa bita ingano ndetse n'ibindi bitandukanye, nanone kuri ubu butaka hariho ibiti n'ibindi bimera bitandukanye nanone hari umwana ukiri muto urimo kugenda, uhagaze iruhande rw'ingano.

Ubuso bugari bw'ubutaka bukorerwaho ibikorwa bitandukanye, urugero nk'ibikorwa by'ubuhinzi, hateyeho ibimera bitandukanye urugero nk'ibiti na none kandi igice kimwe cy'ubu butaka cyatwawe n'isuri.

Ubuso bw'ubutaka bunini buteyeho ibimera by'amoko atandukanye. Urugero nk'ibimera bikurumba cyane bita ibiti. Na none kandi kuri ubu butaka haciyemo imiferege inyuramo amazi mu gihe cy'imvura.

Ikibaya gihinzemo ibimera by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi ndetse n'amabara y'umuhondo, by'umwihariko higanjemo ibihingwa by'umuceri. Na none kandi hari ibihingwa bikurumba cyane bizwi nk'ibiti.

Ibimera by'amoko atandukanye bihingwa mu murima by'umwihariko ibimera bikururumba ndetse n'ibimera birandaranda, bihinzwe mu murima uri iruhande rw'umuhanda. Nanone kandi hari urukuta rw'amabuye rwubatse impande y'umuhanda.

Ibimera by'amoko atandukanye bihingwa mu murima, byiganjemo ibimera bikururumba cyane, urugero ibiti byera imbuto; nanone kandi, hari ibimera by'amako atandukanye urugero urutoki, nanone hari amazu atandukanye yubatswe yo kubamo.

Ikibaya kigari cyane, gitewemo ibihingwa bitandukanye, by'umwihariko nk'igihingwa cyitwa umuceri. Gifite ibara ry'icyatsi kibisi. Na none kandi hari ibihingwa biteye ku musozi bikururumba cyane byitwa ibiti.

Ubutaka bugari kandi bunini buhinzweho ibimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye, higanjemo ibimera bikurumba cyane urugero nk'ibiti na none kandi hahinzwemo ibimera bikurumba cyane bizwi nk'ibigori.

Ubuso bw'ubutaka bunini kandi bugari bwifashishwa n'abahinzi mu guhinga ibihingwa by'amoko atandukanye, hahinzweho ibihingwa bigufi kandi bifite ibara ry'icyatsi, na none kandi hahinzweho ibihingwa birebire.

Ubuso bugari bw'ubutaka buteweho ibihingwa by'amoko atandukanye, bifite amabara y'icyatsi na none kandi haciweho indinganire zirinda isuri, na none hari amazu yubatswe kuri ubu butaka hagati y'ibimera.

Ubuso bugari bw'ubutaka butunganyijwe neza, buteyemo ibihingwa byiganjemo ibinyomoro na none kandi biteye mu buryo bugezweho na none kandi hari abahinzi batandukanye barimo gutera ibihingwa mu murima.

Ubutaka bugari bwifashishwa mu gukora ibikorwa by'ubuhinzi, bukaba buteweho ibimera bitandukanye urugero nk'ibiti, nanone kandi hari umwuzure w'amazi warengeye ibimera bitandukanye ndetse n'ibihingwa byahinzwe n'abahinzi.

Imisozi ihinzweho ibimera ndetse n'ibihingwa by'amoko atandukanye, higanjemo ibihingwa bikururumba cyane, urugero nk'ibiti na none kandi hari amazu atandukanye yo kubamo.

Ibimera by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi, hakaba higanjemo ibimera bikururumba cyane bizwi nk'ibiti na none kandi hari ibimera birandaranda cyane bifite amabara y'icyatsi.

Ubuso bugari bw'ubutaka buhinzweho ibimera by'amoko atandukanye, urugero; nk'ibimera bigufi bidakurumba cyane bifite ibara ry'icyatsi. Na none kandi hari ibimera bikurumba cyane by'ibiti bihinzwe kuri ubu butaka.

Umuhinzi urimo kwambuka ku kiraro kandi yikoreye ibishingirizo byifashishwa n'abahinzi mu gihe barimo gushingirira ibishyimbo, na none kandi iruhande rw'umugezi hari ikibaya kirimo ibihingwa bitandukanye, urugero nk'ibigori ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ubuso bw'ubutaka bugari bwo mu gishanga ndetse no ku musozi, bwifashishwa n'abahinzi mu guhinga ibihingwa bitandukanye, urugero nk'urutoki, ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye na none kandi kuri ubu butaka hariho amazu atandukanye, atuwemo n'abantu batandukanye.

Ikibaya kigari kifashishwa n'abahinzi mu guhinga ibihingwa bitandukanye, urugero by'umwihariko kifashishwa mu guhinga igihingwa bita umuceri, iruhande rw'iki gishanga hahinze ibihingwa bitandukanye, urugero nk'ibimera bita ibiti na none hari umuhinzi urimo kwita ku gihingwa cy'umuceri.

Ibimera by'amoko atandukanye, biteye mu buso bugari bw'ubutaka, higanjemo ibimera bikurumba cyane, urugero nk'ibiti ndetse n'ibiti byera imbuto, urugero nk'imyembe, na none kandi mu kibaya hateye ibihingwa bitandukanye, urugero nk'umuceri n'ibindi bihingwa biribwa.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara na none rifite amahembe magufi na none rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'amata.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'ihene, rikaba rifite ibari ry'igitakazi, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire, nanone, umworozi waryo arimo kurikurura arijyana mu kiraro aho riba.

Itungo rigufi ryororerwa mu ngo ryitwa ingurube, riri aho riba hitwa mu kiraro, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire, rikaba rifite ibara ry'umweru.

Amatungo atatu magufi azwi ku izina ry'ihene. Afite amabara atandukanye urugero ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'itaka. Nyine kandi aziritse mu kiraro aho aba. Nanone kandi iruhande rwayo hateye ibimera by'amoko atandukanye urugero nk'ibiti bikururumba cyane.

Amatungo abiri magufi azwi ku izina ry'ihene, afite amabara atandukanye urugero nk'umukara ndetse n'igitakazi, arimo kurya ibyatsi na none kandi azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Amatungo maremare azwi ku izina ry'inka. Afite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara. Ari mu kiraro aho aba na none kandi arimo kurya ibyatsi.

Amatungo abiri magufi azwi ku izina ry'ihene, zikaba zifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'igitakazi. Ziri mu kiraro cyabugenewe aho zororerwa. Na none kandi hari umworozi urimo kuzitaho aziha ibyo kurya.

Itungo rirerire rizwi nk'inka, rifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, rikaba rikunze kororerwa mu biraro, na none kandi rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Amatungo magufi atandukanye azwi ku izina ry'inkoko, nanone kandi hari umworozi w'inkoko wambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'ubururu, nanone kandi inkoko ziri mu kiraro cyazo aho ziba.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'ingurube rifite ibara ry'umweru, ryashyizwe ahantu habugenewe, aho ririmo kwitabwaho na none kandi hari umuntu urimo kwitegereza igitungo rigufi wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, akaba ari umuvuzi w'amatungo.

Amatungo abiri magufi yitwa ihene, akaba afite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, akaba azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire , nanone kandi hari ibihingwa ndetse n'ibimera, bihinzwe mu murima bifite amabara y'icyatsi.

Amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, afite amabara atandukanye urugero: nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara arimo kurisha ibyatsi bibisi, nanone kandi iruhande rw'inka ateye ibyatsi ndetse n'ibimera bitandukanye bikururumba cyane.

Itungo rigufi ryororwa by'umwihariko aho ryoroherwa mu rugo ndetse no mu kiraro, rikaba ritanga umusaruro w'inyama ndetse na none rikaba ritanga umusaruro w'ifumbire, aho iryo fumbire ryifashishwa mu bikorwa bitandukanye urugero mu nko mu bikorwa by'ubuhinzi.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, afite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru. Arimo kurisha ibyatsi azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rikaba riri mu kiraro, nanone hari umworozi urimo guha itungo ry'inka ibyatsi byo kurya kugira ngo rikomeze kumera neza.

Amatungo atandukanye magufi azwi ku izina ry'ihene, akaba afite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru, amabara y'igitakazi, akaba azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'umusaruro w'ifumbire..

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rikaba rifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara. Rikaba riri mu kiraro aho riri kunywa amazi. Na none kandi hari umworozi urimo kurigaburira, ariha amazi.

Amatungo abiri magufi azwi ku izina ry'ihene, afite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, na none kandi hari irifite ibara ry'igitakazi. Na none hari ibimera by'amoko atandukanye, urugero nk'imibyari, na none hari inzu yo kubamo yubatse iruhande rw'ibimera.

Amatungo magufi yororerwa mu kiraro azwi ku izina ry'ingurube, akaba afite amabara y'umweru, arimo kurya ibyo kurya bita ibyatsi, akaba azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Amatungo atatu magufi azwi ku izina ry'ingurube, akaba afite amabara y'umweru, na none kandi arimo kugaburirwa ibyo kurya mu bikoresho byabugenewe byifashishwa mu kugaburira amatungo magufi by'umwihariko ingurube.

Ibiraro bitandukanye byifashishwa n'aborozi b'amatungo magufi by'umwihariko nk'amatungo yitwa urukwavu ndetse n'inkoko, na none kandi hari abagabo babiri barimo kugaburira amatungo magufi bakoresheje ibikoresho byabugenewe, bifite amabara y'uburu ndetse n'umukara.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene, akaba yororerwa mu ngo z'abantu, aya matungo magufi azwiho gutanga umusaruro w'ibyo kurya, urugero nk'inyama, ndetse n'ifumbire, nanone iruhande rw'aya matungo hateye ibimera bitandukanye, nanone kandi hubatsweho amazu yo kubamo.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube akaba afite ibara ry'umweru, akaba ari mu kiraro aho zororerwa, zikaba zizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'inkoko rifite ibara ry'itakasi, rikaba ryororerwa mu rugo, rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'amagi, na none kandi rizwiho gutanga umusaruro w'ifumbire.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'ihene, rifite amabara atandukanye urugero y'ibara ry'umweru, ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'igitazi rikaba riziritswe, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'ihene, rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'inyama, na none kandi hari ibiti biri iruhande rw'ihene.

Itungo rirerire ryororerwa mu kiraro, rizwi ku izina ry'inka, rifite ibara ry'umukara, na none kandi riryamye mu kiraro cyubakishijwe ibiti bitandukanye.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rikaba rifite ibara ry'umukara, rikaba ririmo kurya ibyatsi na none riri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'amata.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube afite amabara atandukanye urugero nk'umweru ndetse n'umukara, akaba azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire, na none hari aborozi batandukanye baje gufata ingurube zo korora.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'inkoko, rikaba ryororerwa mu ngo z'abantu, rifite ibara ry'umweru, rikaba ririmo gutoragura ibyo kurya, iri tungo rigufi rizwiho gutanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama ndetse n'ifumbire ryifashishwa mu buhinzi bw'imyaka.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka rikaba rifite ibara ry'umukara, rikaba riri mu kiraro cyubakishijwe ibiti bitandukanye, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'amata.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube akaba afite amabara atandukanye urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ari mu kiraro aho aba nano kandi azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire.

Amatungo magufi ane azwi ku izina ry'ingurube, afite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, ziri ahantu habugenewe, aho zirimo kwitabwaho. Nanone zizwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'umusaruro w'ifumbire.

Ibiraro bitandukanye byifashishwa n'aborozi borora amatungo magufi by'umwihariko nk'amatungo yitwa inkwavu ndetse n'inkoko, nanone kandi byubakishije ibiti ndetse n'amabati, nanone hari umuntu ndetse n'umuvuzi w'amatungo urimo kureba uko amatungo ameze.

Itungo rirerire rizwi nk'inka rifite ibara ry'umukara, ririmo kurira ibyatsi ahabugenewe aho riba mu kiraro cyubakishijwe n'ibiti, rikaba rizwiho gutanga umusaruro w'amata ndetse n'inyama.

Itungo rigufi rizwi ku izina ry'ihene, rifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ryijimye, rikaba riziritse riri mu kiraro aho riba na none barihaye ibyo kurya byitwa ibyatsi.

Ingemwe z'ibihingwa bizwi ku izina rya avoka, bikaba bipfunyitse mu mashashi y'umukara mbere yuko bihingwa murima, ibi bihingwa bikaba bitanga umusaruro w'imbuto zitwa avoka.

Ubutaka bugari buhinzweho ibihingwa by'amoko atandukanye, higanjemo ibihingwa byerera mu butaka bizwi ku izina ry'imyumbati, bikaba bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'icyatsi.

Ibimera by'amoko atandukanye bihingwa n'abahinzi, byiganjemo ibigori ndetse n'ibindi bimera by'amoko atandukanye urugero nk'amateke yerera mu butaka na none kandi ibi bihingwa bifite ibara ry'igitakazi ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Ibimera by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi ndetse n'amabara y'umuhondo, bikaba biri mu mashashi y'umukara, aho biri gutunganywa kugira ngo biterwe mu murima.

Umuhinzi wabigize umwuga urimo kwita ku bihingwa bye yahinze mu murima, by'umwihariko ibihingwa byiganjemo ibishyimbo, aho arimo kubishingirira, ashingamo ibiti bita imishingirizo, nanone kandi harimo ibindi bihingwa byerera mu butaka bita amateke.

Amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, akaba afite amabara atandukanye, urugero hari izifite ibara ry'umukara, iry'umweru ndetse n'andi mabara atandukanye na none hari abantu bashinzwe kuvura aya matungo aho barimo gutera imiti aya matungo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rifite ibara ry'umukara, ryakomeretse. Umuvuzi w'amatungo arimo kuryitaho, akoresheje ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kwita ku matungo yakomeretse. Yambaye imyenda ifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara.

Amatungo magufi yororerwa mu rugo by'umwihariko azwi ku izina ry'ihene, aho arimo guhabwa imiti afasha amatungo magufi gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura neza, none hari abantu batandukanye by'umwihariko nk'urugero nk'umuvuzi w'amatungo ndetse n'abandi borozi b'amatungo, bazanye amatungo yabo kuyateza imiti ndetse n'inshinge zitandukanye.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka ryororerwa mu kiraro na none kandi rifite ibara ry'umukara. Na none kandi hari abantu babiri barimo guha itungo ry'inka umuti bakoresheje icupa ririmo amazi ndetse n'umuti bivanze.

Amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, afite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru, ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'igitaka hasi, akaba azwiho gutanga umusaruro w'inyama ndetse n'umusaruro w'amata.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka rikaba rifite ibara ry'umukara, na none hari umuvuzi w'amatungo urimo kuvura iri tungo ry'inka, na none kandi arimo kuritera iherena rigaragaza nimero y'iyi nka. Na none kandi hari ikiraro cyororerwamo iyi nka ndetse n'amazu yo kubamo.

Amatungo maremare atandukanye azwi ku izina ry'inka, afite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, na none hari abantu batandukanye by'umwihariko abavuzi b'amatungo maremare.

Amatungo atandukanye magufi azwi ku izina ry'intama, ari mu kiraro aho aba ikiraro kikaba cyubakishijwe n'ibiti, na none kandi hari umuvuzi w'amatungo urimo kuvura intama akoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse n'imiti yabugenewe ivura amatungo.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rikaba rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, rikaba riri mu kiraro aho riba. Na none kandi hari abagabo babiri by'umwihariko umuvuzi w'inka, aho arimo gutera inka umuti kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, akaba yororerwa mu rugo, akaba azwiho gutanga umusaruro w'amata ndetse n'inyama ndetse n'ifumbire. Na none hari abagabo babiri barimo guha nimero iranga inka, batera iherena ku gutwi kw'inka.

Itungo rirerire rizwi ku izina ry'inka, rikaba rifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara. Na none hari abantu batandukanye by'umwihariko higanjemo umuvuzi w'amatungo urimo kuvura inka akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umuvuzi w'amatungo afite ibikoresho bitandukanye yifashisha mu gihe arimo kuvura amatungo atandukanye, by'umwihariko nk'amatungo maremare na none kandi hari inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru iri mu kiraro.

Ikinyabuzima kibera mu mashyamba atandukanye, kikaba gitungwa n'ibyo abahinzi bahinga. Gifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru na none iruhande rwacyo hari ibimera by'amoko atandukanye bifite ibara ry'icyatsi.

Ibinyabuzima bibiri, biguruka mu kirere bizwi ku izina ry'igikona, bifite amabara agiye atandukanye, urugero: nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru. Bikaba bizwiho kona imyaka y'abaturage. Na none iruhande rwabyo hateye ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabuzima kizwi ku izina ry'igikona kiguruka mu kirere, gifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, kikaba kigira uruhare mu kona imyaka y'abaturage ndetse n'abahinzi batandukanye.

Inyamaswa zikunze kwibera mu mashyamba hirya no hino, zifite amajosi maremare na none kandi zifite amabara atandukanye ndetse n'amahembe, na none kandi iruhande rwazo hari ibimera by'amoko atandukanye bikururumba cyane bizwi nk'ibiti.

Amatungo abiri magufi, azwi ku izina ry'imbwa, akaba yororerwa mu ngo z'abantu, afite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'itaka hasi, iruhande rwazo hari ibimera by'amoko atandukanye.

Ikinyabuzima kiguruka mu kirere kizwi ku izina ry'igikona, gifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, kikaba kizwiho kona imyaka ndetse n'ibihingwa by'abaturage.

Ikinyabuzima kiguruka mu kirere kizwi ku izina ry'inyoni, gifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara. Kizwiho kona imyaka y'abahinzi. Na none kandi hari ibimera by'amoko atandukanye bifite amabara y'icyatsi.

Ibinyabuzima bitandukanye bizwi nk'ubwoko bw'inguge byibera mu mashyamba, bikaba bizwiho kona imyaka y'abaturage na none kandi bifite amabara atandukanye urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Ikinyabuzima kiguruka mu kirere kizwi ku izina ry'igikona, gifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara; kikaba kizwiho kona imyaka y'abaturage, nanone gihagaze ku kimera gikururumba cyane.

Ibihingwa bikururumba cyane bihingwa n'abahinzi, bizwi ku izina ry'amapapayi, bikaba byera imbuto zitwa amapapayi nanone kandi hari ibimera bikururumba cyane, biri iruhande rw'amazu y'abantu yo kubamo.

Ikinyabuzima kiguruka mu kirere kizwi ku izina ry'igikona na none kandi kikaba kizwiho kona umusaruro ndetse n'ibihingwa by'abahinzi, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara na none kandi iruhande rw'iki gikona hateyeho ibihingwa bitandukanye byatewe n'abahinzi, kikaba cyaje kona iyo myaka y'abahinzi.

Ibinyabuzima bizwi ku izina ry'inkende, bifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'igitaka hasi, byibera mu mashyamba hirya no hino, na none kandi bizwiho kona ibihingwa by'abahinzi.

Ikinyabuzima cyibera mu mashyamba kizwi mu bwoko bw'inguge. Kikaba gifite ibara ry'umukara. Kikaba kizwiho kona imyaka ndetse n'ibihingwa by'abaturage biba bihinzwe mu murima.

Inyamaswa ifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'itakazi. Izwi ku izina ry'ingwe na none kandi iruhande rwayo hari ibimera by'amoko atandukanye, ibimera bikurumba cyane.

Ikinyabuzima gikunze kwibera mu mazi ndetse n'imusozi, kizwi ku izina ry'igikeri, gifite amabara atandukanye, urugero nk'ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru.

Ikinyabuzima kibera mu mashyamba gifite ibara ry'umukara, kikaba kizwiho kona ibihingwa ndetse n'imyaka y'abaturage. Iruhande rwacyo hateye ibimera ndetse n'ibihingwa bifite amabara y'icyatsi.

Ikinyabuzima gikunda kwibera mu mashyamba, kizwi ku bwoko bw'Inguge, gifite ibara ry'umukara. Kikaba kizwiho kona imyaka y'abaturage. Nanone kandi iruhande rwacyo hari ibimera by'amoko atandukanye, urugero: nk'ibifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibifite ibara ry'umuhondo.

Inyamaswa nini cyane zibera mu mashyamba zizwi ku izina ryitwa inzovu, zikaba zikunda kwirira ibimera bitandukanye, na none kandi iruhande rwazo hateye ibimera bikururumba cyane byitwa ibiti.

Inyamaswa zibera mu mashyamba atandukanye, zizwi ku izina ry'imparage, zikaba zifite amabara atandukanye, urugero nk'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, na none kandi iruhande rwazo hateye ibimera by'amoko atandukanye.